Umugabo wicaye ufashe igikoresho k'ikoranabuhanga cya telefone nini ndtse imbereye handitseho ngo kuki ukwiriye kutwizera mu gihe ukeneye ubwishingizi, biri mu magambo y'umutuku ndetse hasi hakaba hari n'andi magambo menshi.

Umusore ufashe igikombe arimo kunywa ndetse n'igitabo ari gusoma, yicaye mu ntebe nziza cyane zihenze, imbere ye hari nimero ya telefoni ndetse inyuma hari ibirahuri n'amadirishya bigaragaza hanze, mu nzu harimo n'ururabyo.

Isoko bacururizamo imyenda y'imipira, yiganjemo iy'umuhondo, umweru, umutuku, umukara, ndetse n'utwenda tw'abana twuzuye. Inyuma zikaba zitanditse ku gikuta kinini.

Inkweto abantu bakwifashisha bari mu gukina, izo nkweto zikaba ziri zimanitse ahantu ku gikuta ndetse zifite amabara y'ubururu umweru ndetse n'umutuku hakaba harimo izifite n'amarasi.

Aho bagurishiriza imyenda hakaba harimo imyenda itandukanye ndetse n'abaguzi batandukanye, Higanjemo abazungu ndetse n'abari gucuruza imyenda b'abirabura, inzu nziza irimo amatara ndetse iteyemo irangi ry'umweru.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'imodoka babiri muri bo bafashe ku cyapa inyuma harimo ifite amabara y'umweru n'ibirahuri bibone .Inyuma y'iyomodoka hakaba hari amazu menshi atandukanye ndetse n'ibiti byinshi cyane hakaba hari ndetse n'uruzitiro ruzengurutse aho bari.

Abagabo babiri bafashe ku cyapa inyuma yabo hakaba hari imodoka mu mabara y'umweru, umugabo umwe akaba afashe n'igitabo mu ntoki, ku ruhande rw'iyo modoka hakaba hari inzu ndetse hirya hakaba hagaragara n'agace gatoya k'ikirere.

Abagabo babiri bafashe ku cyapa, umwe yambaye ishati y'umweru undi yambaye ikote ry'umukara inyuma hakaba hari imodoka nini cyane itwara imizigo ndetse hakaba hari ibiti binini ndetse n'amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi n'amazu.

Abagabo babiri, umwe ufashe icyapa undi afashe agakapu mu ntoki kari mu ibara ry'umutuku, iruhande rwabo hakaba hari imodoka iri mu mabara y'umukara, ifite ibirahuri bibonerana ndetse hakurya hakaba hari ibiti byinshi n'amazu menshi.

Imodoka ihagaze ahantu ifite nimero iranga imodoka iri mu mabara y'ubururu, yandikishiweho ibara ry'umweru, harimo; ha, sa, ra, o makumyabiri na karindwi; hirya hakaba hari n'izindi modoka ngenzi zayo ndetse n'ibiti birebire.

Ipoto rirerire rirahura umuriro w'amashanyarazi winjiza mu nzu irimo imodoka nyinshi cyane bigaragara ko bazihacururiza, amadirisha yayo ikaba agizwe n'ibirahure bibonerana mu imbere bigaragaza ikirimo, ku ruhande hari igiti cy'ibyatsi ndetse n'umucaca, amabuye yubatse uwo mukingo.

Imodoka zihagaze ahantu ari nyinshi cyane bisa naho bagurishiriza imodoka hakurya hakaba hari inzu zitagaragara neza ndetse bisa naho bugorobye, hakaba hagaragara ibiti binini ndetse n'amatara arimo kwaka muri izo modoka hakaba harimo izisa n'umweru.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, ku meza hari ibikoresho bitandukanye birimo impapuro ndetse n'amacupa arimo imiti yica udukoko. Ku ruhande hari indahuzo z'umuriro w'amashanyarazi, nyuma yaho hari imodoka ihahagaze. Bari mu nzu ifite ibirahure bibonerana bikabonesha hanze.

Abagabo bane bose bafashe ku cyapa, iruhande rwabo hakaba hahagaze imodoka ifunguye imiryango isa naho ari nshyashya, inyuma yabo hakaba hari umuryango ugizwe n'ibirahure byinshi ndetse n'ibyuma mo imbere hakaba harimo indi modoka ifite ibara ry'umutuku, inyuma hakaba hagaragara ibiti byinshi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'uruhande inyuma ye hari imodoka nyinshi zihagaze ndetse hirya y'izo modoka hakaba hari igikuta cyubakishije ibara ry'umweru n'umukara bigaragara ko hano bahacururiza imodoka.

Umuntu ufashe ikaramu arimo kwandika ku rupapuro, imbere ye hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, byiganjemo mudasobwa zirimo kwerekana amashusho. Akaba yambaye ikoti ry'umukara, ndetse inzu arimo ifite ibirahure bigaragaza hanze.

Banki nkuru y'u rwanda, insina iriho igitoki gisa n'icyeze ndetse n'amakoma, hasi hakaba hariho ibihumbi bibiri n'ikenda, igiceri cy'amafaranga y'u Rwanda kigaragaza banki yagikoze ndetse n'umwaka cyakorewemo.

Inzu icurizwamo ibinyobwa bidasembuye birimo amata, hakaba ahanditse inyange ndetse n'inyoni y'inyange, amakarito arimo amata ndetse n'ububuni burimo amata naho babika amata, hakaba harimo ibara ryiganje ry'ubururu n'umweru.

Aho bacururiza ibinyobwa bidasembuye birimo nk'amata ndetse n'imitobe. Ndetse n'ibindi biribwa birimo imigati. Hakaba hagaragaramo ibikoresho bifashisha batanga ibyo biribwa. Birimo ibikombe, ibirahure, indobo, ndetse n'icyo bapfunyikamo.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibinyobwa bidasembuye ari byo amata, amazi ndetse n'imitobe imbere ku meza hakaba hari indobo zirimo ibiribwa ndetse muri iyo nzu higanjemo ibara ry'ubururu riteye ku nkuta z'iyo nzu.

Abana babiri bicaye ku meza barimo banywa amata hahagaze umugabo urimo kubagaburira ayo mata, ku meza hari amasahani ariho ibikoresho ndetse hakaba hari ububido n'inkongoro ziriho amata, hirya hakaba hahagaze undi mugabo wambaye impuzankanano.

Aho bacururiza ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bidasembuye byiganjemo amata. Ku meza hakaba hari ibirahuri ndetse n'amasahani ibyo birarahuri bikaba birimo amata amasahane ariho ibiryo hirya hicaye umugore usa naho arangije kwiyakira.

Ibikoresho byo mu rugo byiganjemo intebe zibajwe mu biti ndetse n'ameza abajwe mu biti. Ku ruhande hari idirisha rigaragaza hanze ko hari kuvayo akazuba kenshi ndetse hari n'igikuta giteye ibara ry'umweru.

Ibikoresho byo mu rugo byiganjemo ameza ndetse n'intebe bikozwe mu biti, hirya hari inzu nyinshi cyane zubakishijwe amatafari ahiye ndetse mu mbuga y'iyo nzu hakaba harimo imodoka itwara abantu ku buryo bw'umwihariko.

Ni iduka ricururizwamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bidasembuye, byiganjemo imitobe myinshi iri mu birahure isa n'umuhondo ndetse imineke nk'imbuto zicururizwamo n'inanasi n’ibikoresho bifashisha bagabura.

Icyumba k'imyidagaduro ndetse aho abantu bafatira agacupa, kikaba kigizwe n'intebe ameza ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo insakazamashusho, amacupa barimo ibinyobwa ndetse n'ibirahuri banyweramo ibyo, ibinyobwa bagaragaramo n'amatara y'amabara menshi.

Inzu nziza yo guturwamo igizwe n'ibirahuri byiza biri mu madirisha ndetse no mu nzugi yubakishijwe amatafari, hasi mu mbuga harimo ihema ndetse mo munsi hariho ameza n'intebe bigaragara ko ari aho abantu bicara baruhuka, ku ruhande hari igiti kirekire cy'ururabyo ndetse n'akazuba.

Inzu ndende cyane y'umuturirwa ifite amabara y'umukara yiganje ibirahure birebire biri mu mabara y'umukara bitabonerana ndetse hejuru hari ikirere gifite amabara y'umweru n'ubururu bigaragara ko nta mvura gifite.

Inzu ndende cyane y'umuturirwa, iruhande rw'iyo nzu hakaba hari ibiti ndetse n'indabyo birebire ndetse n'inzira yinjira muri iyo inzu. Hakaba hari umuryango muremure, hejuru hakaba hagaragara ikirere gisa neza, kirimo amabara y'umweru n'ubururu.

Ndi kubona amatara ari mu nzu nkabona tapi, nkabona hirya hari intebe zitagaragara neza n'igikuta.

Inzu itanga serivisi z'ikoranabuhanga, muri iyo nzu hakaba harimo abantu b'ingeri zitandukanye, abirabura ndetse n'abazungu, hakaba harimo n'ameza ari mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, amwe ari hagati mu mabara y'ubururu, ikaba yanditseho ngo murakaza neza mu rurimi rw'amahanga.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye benshi muri bo bakaba bambaye udupfukamunwa umwe w'umugabo uri ku ruhande akaba afashe ikarita ndetse umugore akaba afashe agakoresho k'ikoranabuhanga ku meza akaba hari ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa.

Mu cyumba cy'inama icyo cyumba kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe ziri mu mabara y'umukara ndetse zikozwe n'ibyuma ameza n'aya ari mu mabara y'umukara kandi akozwe n'ibyuma, imbere hari igikuta kinini cy'umukara ndetse n'idirisha rifite ibirahuri n'urugi rukozwe mu biti.

Abagabo babiri bicaye mu cyumba icyo cyumba kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye birimo za mudasobwa amacupa arimo imitobe ndetse n'intebe nziza, inkuta z'icyo cyumba zikaba ziteye irange ry'umukara ndetse harimo n'ibindi bikoresho.

Umuryango ukinguyemo imbere harimo umuntu utegereje kwakira abantu inzu ndende cyane isa'ahariy'ubucuruzi kubera ko hejuru y'uwo muryango hari icyapa kigaragaza ibikorerwa muri uwo muryango, ifite amadirishya ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibirahuri.

Imodoka nyinshi zihagaze mu mbuga ndetse inzu ndende y'umuturirwa ifite ibirahure n'inkuta bisize ibara ry'ubururu ibirahure bibonerana, ndetse hejuru hakaba hariyo ikirere gifite amacu, muri izo modoka hakaba harimo izifite amabara y'umukara.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo amamoto ndetse n'amamodoka n'amagare, inzu nini z'ubucuruzi zigizwe n'imiryango ndetse n'amadirisha afite ibirahuri bibonerana ndetse n'ibyapa bigaragaza icyo izo nzu zikorerwamo, ibiti ndetse n'ikirere kigaragara nk'aho gikeye.

Isoko bacururizamo ibiribwa bitandukanye umugore uhetse umwana bisa n'aho arimo gucuruza amashu, inyuma ye hakaba hari intoryi ndetse n'inyanya, urusenda, n'igitoki, hirya hakaba hari n'abandi batambagira mu isoko bisa n'aho bari kugura.

Isoko guriro ricuruza ibiribwa bitandukanye, iryo soko rikaba rigizwe n'inkingi z'ibyuma ndetse n'amabati, rikaba ririmo ibicuruzwa birimo; igitoki, karoti, intoryi ibitunguru ndetse n'inyanya, abaguzi ndetse n'abacuruzi baje kugura no kugurisha.

Ikinyabiziga cya moto gihagaze gihetse isanduku iri mu mabara y'umutuku ifashwe n'abagabo babiri, irimo utwara icyo kinyabiziga cya moto, hirya hari amazu menshi cyane y'ubucuruzi ndetse n'imisozi itagaragara neza.

Umuryango winjira ahantu mu nzu, uwo muryango ukaba ukozwe n'ibirahuri ndetse n'ibyuma, ibyo birahuri bikaba bibonerana ndetse muri iyo nzu hakaba hateye irangi, harimo n'ibikoresho bikoresha umuriro w'amashanyarazi, hejuru hakaba hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Umusore urambuye ibiganza, bisa n'aho hari ikiganiro ari gutanga, kuko yambaye n'udukoresho dufata amajwi, yambaye ishati y'umweru, ndetse nyuma ye hakaba hari inzu nziza, ifite amadirisha ateye irangi ry'ubururu, n'ibirahure, ndetse na yo ubwayo isize irangi ry'umweru.

Inzu ndende cyane y'umuturirwa igizwe n'ibirahuri bibonerana cyane ndetse hasi hari imiryango y'ubucuruzi, buri muryango ukaba utanditseho ibicuruzwa ndetse n'icyapa kigaragaza icyo uwo muryango ukorerwaho. Ku ruhande hakaba hari ibice bitoya by'ibyatsi ndetse n'agace gato k'ikirere kagaragara.

Umubyeyi uhetse umwana yamufubikishije umwenda w'umweru yinjira ahantu mu rugi rukinguye, ndetse iyo nzu ikaba yubakishije amatafari ahiye, inzugi n'amadirisha byayo bikozwe mu byuma biteye irangi ry'umweru, ndetse mu madirishya harimo ibirahuri.

Inzu ndende y'umuturirwa igizwe n'amagorofa ndetse ifite ibirahure by'imikara bibonerana k'uruhande hakaba hari igiti kirekire hasi hahagaze imodoka y'umweru hejuru hari ikirere kirimo ibicu by'umweru n'ubururu bisa n'aho nta mvura gifite.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa afashe igikarita kinini cyane, kiriho sosiyete y'ubwishingizi mu kwivuza yari ra, sa, sa na ba, bigaragara ko ari kuyamamariza inyuma ye hakaba hari inzu ndende, yubakishijwe amatafari ahiye, ateye irangi ry'umweru ndetse n'ibiti byinshi.

Reba imisanzu yawe muri erasasaba, ikirangantego cy'ikigo cy'ubwisungane ndetse n'ubwiteganyirize mu kwivuza cya rasasaba gifite amabara y'ubururu ndetse byanditswe mu ibara ry'umweru.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye, amatara yo ku muhanda, inzu ndende y'umuturirwa igizwe n'ibirahuri n'amadirishya menshi cyane bibonerana, hirya hari inzu nyinshi cyane ndetse hari n'ikirere bigaragara ko butangiye kugoroba.

Aho bakirira abantu b'ingeri zitandukanye by'umwihariko abaturage mu kigo cy'ubwiteganyirize n'ubwishingizi cya rasasaba, hakaba hari abaturage benshi baje gushaka serivise y'ubwishingizi.

Ejo heza. Umusaza wambaye ingofero ndetse n'amadarubindi, afite igikapu yikoze mu mifuka. Ku ruhande handitseho ngo uzakomeza kurimba no muri pansiyo, akaba ari umusaza bigaragara ko yitabiriye ejo heza.

Agace gatoya k'imodoka iri mu mabara y'umukara ndetse ikaba ifite n'akagarurarumuri, imbere hari inzu nini igizwe n'imiryango myinshi ikozwe mu byuma ndetse n'ibirahuri bibonerana mo imbere muri iyo nzu, hakaba harimo ibicuruzwa, hejuru hakaba hari ibyatsi byinshi ndetse n'amadirisha.

Aho bacururiza ibiribwa, muri ibyo biribwa hakaba harimo imbuto ndetse n'ibinyampeke, mu binyampeke twavugamo ibishyimbo, ubunyobwa ndetse n'ingano, hakuno hakaba hari imbuto twavamo nk'inanasi, imineke ndetse n'inyanya.

Inzu bagurishirizamo ibiribwa bitandukanye birimo ibipfunyitswe mu mifuka y'imyeru ndetse n'ibipfunyitswe mu mifuka y'umuhondo, harimo abagore n'abagabo baje kugura abandi bagurisha ibyo biribwa.